Icyapa cyiza cyane cy'umuhondo, cyanditseho indofiri ritam mirongo ine na gatanu, k'ibiro makumyabiri, kiragaragara harehare, ahagana ku mpande y'uruzi rwa niri mu kilometero kimwe uvuye ku nyanja y'umutuku.

Imifuka myinshi cyane iri munsi y'igiti mu gishanga yanditseho i beti fetarayiza, irimo irareba umugabo kugirango abashe kuyikorera ayijyane aho barimo guhinga iruhande rw'inzu.

Imifuka enye iteretse mu gishanga yanditseho yaramira otesha. Umufuka umwe ufite ikirango cy'ubururu, undi ufite ikirango gisa n'umutuku, ukurikiyeho ufite ikirango gisa n'icyatsi.

Ipombo igizwe n'igikoba ndetse n'igiti kirekire, umunwa w'umukara ndetse n'gihimba cy'ubururu. Irimo iratera inyanya zishwe n'izuba, zifite ibiti byinshi bizishigikiye.

Ubutaka bwahinzwe bwari bumaze igihe kirekire buvuyemo ibiribwa .Iruhande rwayo ibumoso hariho umufuka wasizwe n'umuntu wahoze uhahinga, ibumoso bwaho hariho ishashe isa n'umukara, bigaragara ko iyi sashe yari irinze ubu butaka kugira butaza gusubira inyuma.

Umugabo ufite ipombo isa n'umutuku n'umweru, arimo aruhira akoresheje umunwa wa yo, usa n'umukara, imboga zigera kuri cumi n'ebyiri, uruboga rw'umutuku n'urundi rw'umuhondo.

Ingorofani ndende cyane, ifite umupine wumukara ndetse n'umuhondo. Amaboko atandukanye cyane, ihetse ibishingwe byo gufumbiza mu murima, abahinzi barimo barahingamo bakoresheje majago.

Umusozi muremure cyane ufite amaterasi n'ibiti bitsinsuye umuganda wahabereye aho abadaso n'abaturage barimo baratera ibiti bifashishije ifumbire mvaruganda.

Umukozi wo mu rugo wambaye ishati y'umweru n'ingofero y'umweru, ahetse ipombo ifite ibara ry'umutuku, ndetse yanditseho n'ikimenyetso cyaka n'umubirikira, arimo aruhira imyaka kugira ngo ayirinde ubusimba buyangiriza.

Abahinzi barimo barahinga ku musozi aho umuhinzi umwe wambaye umupira wankunganire w'ubururu arimo arasuka ifumbire mvaruganda mu gitebo kugira ngo babashe gutera igishanga cyose ifumbire isa n'umukara.

Imashini isarura imyaka iri mu murambi muremure aho irimo irasarura amashaza, ibishyimbo ndetse n'amajeri. Mu ibara ry'umutuku ni amajeri, mu ibara ry'icyatsi ni amashaza.

Umugabo muremure arimo arahinga akoresheje bote ndetse afite n'igitiyo arimo aratiya ibitaka iruhande rw'ibitunguru birebire bya tungurusumu, bimeze neza cyane.

Ikiganza kinini cyane kirimo kiravomerera igishyimbo kirimo kirava mu butaka busa n'igitaka. Iruhande rwaho hariho ibara risa n'icyatsi cyane kibisi.

Isahani nziza cyane iriho ifunguro ry'ifi itetswe mu mavuta ifite inyanya ya salade ndetse na karoti zo kurishya iyofi n'amavuta iruhande rwayo.

Isahani y'umweru isase ifite ibara ry'umukara k'uruhande. Iteretseho ibiryo byiza cyane igitoki gikaranze gifite indimu, ibirungo bya sante n'icyayi cyo kunywesha.

Umutego wo mu ngezi n'ikiyaga kigufi ndetse n'inyanja, wafashe amafi menshi agera ku bihumbi bibiri, aho amafi atarava mu mutego ategereje ko abarobyi bayakuramo, kugira bayagurishe.

Ikiyaga kigufi gifite ibara risa n'ubururu, gifite ibyuzi byinshi bitari ku murongo, byororerwamo amafi ya karerereremba, iruhande rw'ishyamba ry'inzitane rya Amazone, mu Ntara ya Kasayi.

Umugabo ufite uburebure ubyibushye cyane ufite inda, yicaye mu bwato agashya afite ingofero isa n'ubururu, mu kiyaga kirekire gifite inkengero y'umusenyi.

Amafi abiri atetse yokejwe neza barangije kuyategura afite ibirungo ,soya ,amandazi, amaronji ndetse n'indimu.

Amafi abiri meza baharuyeho amaga, afite imigara miremire, umurizo m'umutuku ubyandaraye ndetse n'umunwa munini ,amaso atukura birimo biroga mu nyanja.

Abarobyi barimo barasana ubwato bwabo ku Kivu, aho babitsemo imyenda yacikaguritse, abandi ku ruhande barimo baritegereza umwe kugira barebe ukuntu arimo arabusana, impande y'i Kivu ku nyanja ya Vigitoriya mu burasirazuba bwa Kongo.

Ifi nziza cyane itetswe mu birungo bitandukanye, irakase ndetse harimo n'umuriro mwinshi hejuru y'ipanu, yahiye ku buryo uwo ari we wese ashobora kuza ikamutera apeti ndetse n'indimu iruhande rwayo.

Ishyamba rirerire ry'ibiti birebire, bidakuze cyane. Rifite ubuso burebure, rifite amazi meza cyane ndetse n'butaka burebure bwo guhingaho ibindi biti, mu gihe nyirabwo akeneye kubihinga ako kanya.

Ubusitani bw'ibiti higanjemo ibiribwa, amateke ndetse n'ibigori. Barimo barabifotora, mu majyepfo y'igihugu cya Sudani ahari inzu y'umutuku ifite ibara mu mpande ry'umukara.

Inzu mbi cyane idakoze, ifite isambu iteyemo ibimera by'amateke ndetse n'urutoki, ifite umuryango udakingwa ndetse n'idirishya ririmo ibipapuro, bigaragara ko ari umwanda urimo.

Ifamu y'intama iri impande y'inzu nyinshi zitari zubakwa aho inzu ya mbere ifite igikwa ndetse ikaba ifite n'urutoki rwinshi rufite ibidodoki n'intama zigera kuri enye n'umwana wazo.

Umurima muremure w'igishanga uciyemo amaterasi. Hari umuntu urimo arawiba ubwatsi, impande y'ibiti bisa n'icyatsi, mu kirunga cya Muhabura, impande ya Kalisimbi mu Majyepfo ya bisoke.

Igiti gitoya cyane cy'ingemwe y'umusave kirimo kirakura neza cyane. Gifite amababi asa n'umuhondo ayandi asa n'icyatsi, umutwe wawo ntago uracika, mu shyamba rinini cyane.

Igishanga kirekire kirimo ibikomoka ku biryo harimo: amashaza, imyembe, ibiti, gereveriya, intusi, ibishingirizo byo gushingiriza ibishyimbo, amapera n'ingano.

Igishanga kinini cyane gifite ubwatsi butandukanye avoka ndetse n'ibigori byumye kiri ahagana mu majyaruguru y'ikiyaga cya kivu ndetse gifite na avoka nyinshi cyane ku buryo buri wese ushobora kuzirya.

Urutoki runini cyane ruhingiye rufite insina zigera kuri eshanu. Insina imwe ifite igitoki kirekire indi nsina ifite igitoki kitarava muri nyina, aho imikanana isa n'umutuku rufite inkingi nziza.

Igishanga kirekire cy'umuceri gifite ibimera harimo ibigori, ibiti byumye n'ibibisi, imigozi y'ibijumba, urutare, umuceri wumye.

Ikimera kirekire gifurumwe nk'ikawa gifite amahwa asa n'icyatsi kiri ku kilometero kimwe iruhande rw'inzu y'umwami ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo cyenda na karindwi impande y'ubwami.

Isambu nini cyane ifite ibigorigori, ifite metero nka cumi n'irindwi uvuye ibumoso ndetse n'iburyo, ifite ibyatsi byinshi batigeze babagara ndetse bikenewe no guhingirwa.

Igihaza cya kinyarwanda kinini gikaswemo ibice bibiri. Igice kimwe gisa umuhondo, ikindi gice gisa icyatsi. Icyo gice cy'umuhondo gifite inzuzi nyinshi zishobora guterwa hakera ikindi gihaza kimeze nkacyo.

Umumama mugufi ,witeze igitenge mu masaha y'ijoro ,arimo arakoresha urumoso ahingira imboga ze ,ndetse iruhande rwe hariho ibyatsi by'inka.

Igitoki kinini cyane kitaribwa ahubwo cy'imineke giteretse hasi, gifite amabere menshi cyane asa n'icyatsi, ibere rimwe risa n'umuhondo ku buryo umuntu ashobora kuriryamo umuneke.

Ibigori biri ku buso bunini, bifite ibisage byinshi biri mu kigero cy'ubukure. Izuba ririmo birabivamo kugira ngo bizabashe kwera mu gihe kirekire. Dore ko nta muntu wigeze ubyangiriza kugeza izi saha.

Imodoka nini cyane ipakiye ibitoki ndetse n'imifuka, barimo barayipakurura impande y'inzu ifite amabati yumutuku. Ibitoki ndetse n'ibirayi byose barimo barabipakururira icyarimwe.

Umusaza wambaye ingofero isa nicyatsi arimo arasarura icyayi aho igitebo yagisiritse ku mutwe apfukamye cyane akoresha inyajoro yahira ashyira mu gitebo inyuma kugira ngo icyatsi kibashe kugwira arimo arataka kubera ko igitiba kirimo kiramugora mu mutwe ndetse arira cyane.

Ihene ndende ya santimetero cumi n'irindwi ifite amabara y'umukara, umweru n'amaguru maremare iri mu kiraro cyayo gifite imbariro zigera kuri ine n'ibiti bitandatu by'uburebure n'ubugari.

Ibisheke bya kaguha ,birebire bimaze igihe kirekire mu murima ,bifite amababi atoshye, ibindi bikagira amababi yumye, biri ku buso bungana na kilometero kuva ku bihumbi bibiri ,kugeza ku bihumbi bitanu.

Ibisheke byiza cyane bya kagowa na kabingo babikuyeho amababi, kugirango abakiriya babashe kubigura, ndetse kugirango bibashe guhenda kugira ngo babashe kubijyana mu soko ry'ibigurisha ibikomoka ku matungo.

Ibijumba byiza cyane bifite amabara y'igitaka ndetse n'umutuku, biryoheye ijisho biri mu mufuka aho bigiye kugurishwa na nyirabyo, birimo biravaho izuba ryinshi cyane n'igikatu.

Abamotari ndetse n'abanyonzi batwara ibicuba byuzuye amata ku mamoto yabo n'amagare, bari mu gipangu gifite ibyatsi byinshi bya cameroni, gikikijwe n'ishamba ry'inzitane ku buryo inyamanswa itabasha kwinjiramo.

Umugore munini uri mu gishanga ahegereye imisozi, ufite isuka ku rutugu ibumoso bwe, ukenyeye igitenge, wambaye umupira w'umutuku, witeze igitenge gisa n'icyatsi wishimye cyane areba muri kamera.

Abaturage benshi barangije umuganda bagera kuri mirongo ine bahagaze mu murima w'umukecuru aho ibase ibateretse imbere isa n'umutuku abandi bose bafite ibiti byo gutera mu ntoki zabo.

Igiti cy'amarongi gifite imbuto nziza, imbuto zahiriranye mu giti, izindi ntago zirashya. Amashami asa n'umweru mu busitani bwa edeni iruhande rw'ikiyaga cy'amajyaruguru.

Isoko ry'ibiribwa gusa hari mo ibishyimbo by'ibitonore, amashyaza, ibigori bitoshye, urunyogwe, amacunga, inanasi, amandazi n'ibindi bikomoka ku buhinzi.

Amateke ya bwayisi ane : iteke rya mbere riciye kabiri rifite ibara ry'umweru mu nda, rifite uruhu rugera ku rw'icyatsi; iteke rya gatatu rifite uburebure bungana na santimetero cumi n'ebyiri.

Inzu irimo ibigori byinshi bita amahundo, ifite umufuka ,uwa mbere urimo ibigori cumi na birindwi, umufuka wa kabiri uteretse hagati mu nzu ndende y'amatafari ahiye.

Abantu bagera kuri bane bari mu murambi mu murima w'amashu. Umugabo wa mbere afite ishu yicaye hagati, umugore wa kabiri afite ishu yicaye ku ruhande, umugore wa gatatu afite ishu yicaye ibumoso, undi mugabo afite amaherena ku matwi no mu mumazuru.

Umugore ukenyeye igitenge, wambaye ikoti ry'ubururu, uniteze igitambaro cy'ubururu, arimo arasarura imboga rwatsi iruhande rw'ishyamba ahegereye inzira ndende y'igitaka.

Ihene y'ishyamba imeze nk'inka, iri mu mirambi miremire y'imisozi. Ifite ubwatsi bwinshi cyane bumeze nk'aho buri mu zuba, ndetse ifite n'amahembe magufi n'iminwa miremire.

Abagore benshi bambaye ibitenge bitandukanye barimo baraseka, bamurika inanasi nk'igihingwa cyeze muri ako gace, inanasi ebyiri zisa umutuku, izindi nanasi zisa n'icyatsi bigaragara ko zitari zera.

Ibyatsi bya pasiparume birebire, biri ku nzu idahomye, birimo birava amazi aturuka hejuru ku mitwe yabo, ahasa n'umuhondo, iruhande rw'idirishya riri mu nzu y'igihome ifite amatafari asa n'umutuku.

Insenda zirindwi zisa n'umutuku zifite imikondo isa n'icyatsi, zimeze nk'inyanya, ku buryo umuntu ashobora kururya agira ngo ni urunyanya. Urusenda rumwe muri zo barukase.

Umufuka munini cyane w'ibirayi uteretse ku makoro mu Kinigi, impande y'ishyamba rinini rifite ni'igare, bashaka kuwushyiraho kugira ngo ngo babashe kubivana hane babijyana ahandi.

Abakozi barimo barahinga mu murima munini batera ibishyimbo bakoresheje akanwa abandi barimo barufira, bunamye umwe wambaye umupira w'umutuku arimo aritegereza ukuntu bagenzi be barimo barakora.

Ubuhunikiro bw'ibirayi bwubatswe n'amatafari ahiye, imbaho, ndetse n'ibiti birebire bisa n'umukara. Buhunitse ibirayi bigera ku biro igihumbi magana ane na mirongo icyenda na birindwi. Impande ya sacco Umurava.

Imbuto z'amacunga nziza cyane, zibereye ijisho zisa n'umutuku ,ndetse n'icyatsi zirimo igikarito.

Abahinzi borozi bikoreye ibiti by'ingemwe za gereveriya ndetse n'intuse. Barimo barava ahantu mu kibaya berekeza hejuru, umwe w'imbere yikoreye ku gare, abandi bose bikoreye ku mutwe ibiti byabo.

Umuntu umwe mu gishanga wusutamye arimo arareba ukuntu ibireti bimeze, afite n'imishingirizo ashingira kuva ku cya mbere kugera ku cya nyuma, kugirango ngo yirinde isuri ituruka mu misozi ndetse n'izuba rizabiveho neza.

Igishanga kirekire gifite icyayi kiringaniye aho nta gisumba ikindi. harimo abakozi barimo barasarura icyayi, abandi barimo barandika umusaruro wagiturutsemo, undi yambaye ingofero.

Umusaruzi w'inanasi arimo arasarura inanasi ashyira mu gitebo， mu murima muremure uri ku buso bwa cumi na gatanu， arunamye cyane nta musatsi agira， ndetse yiteze n'igiteteyi mu ijosi n'ishati y'umweru.

Abasaruzi b'ibireti bambaye imipira y'icyatsi. Barimo barasarura mu gishanga kirekire gihinzwemo ibyatsi by'ibireti gusa, bigizwe n'ibiti birebire ndetse umusaruzi umwe yambaye ingofero mu mutwe.

Ibijumba byiza cane by'mutuku byakorobotse, biri ku ihema aho nyirabyo yabishyizeho kugira ngo bibe byota akazuba ka mu gitondo, kugira ngo bibashe kugurishwa neza, nta guhendwa kurimo.

Umufuka usa n'umweru uteretse ahantu handuye wanditseho Ibanga Mayizi Po, uriho ibihaza bigera kuri makumyabiri bimwe bisa n'icyatsi, ibindi bisa umweru, ku nzu ifite umugore.

Imbuto eshatu za pavuro ziri mu bwoko bwiza cyane, zifite amabara y'icyatsi umutuku ndetse n'umuhondo. Ziteretse ku meza ahari igitambaro gisa n'umweru ku kabati hejuru.

Abantu batatu harimo umugore umwe n'abagabo babiri, ku manywa barimo barita ku cyayi ndetse izuba ririmo rirava, bigaragare ko nta mvura ishobora kugwa mu uwo munsi, barimo barakora icyo gikorwa.

Umuhinzi w'umukobwa wambaye ijipo ndende, ikabutura y'umutuku, afite isuka mu buryo, arimo arahinga mu gishanga kirekire cy'iikivu iruhande rw'ikiyaga cya Cyohoha, mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda.

Abagabo batatu bari mu bigori, bamanitse amaboko hejuru, bishimye, banezerewe. Akanyamuneza ni kose, bigaragara ko ibibigori babyishimiye birenze urugero, cyane rwose.

Igishanga kirekire kirimo abagabo babiri, umugabo wa mbere arimo aranika amasaka ku nkoko. Umugabo wa kabiri, arimo arareba uko isi imeze. Imisozi y'icyo gishanga iriho inzu zigera ku gihumbi magana ane na mirongo irindwi n'eshanu.

Voca ifite ibara ry'icyatsi. Ifite ibikomere bigera kuri cumi na bitandatu by'umukara; iri ahantu hafite urumuri ruhagije. Inateretse ku meza asa n'umweru ateretse muri saro.

Imifuka y'ibirayi myinshi cyane itondetse ku umuronko. Aho bihambirijwe imishumi minini cyane, kuburyo ikirayi kitabasha gusohoka hanze, Iri impande y'inzu iruhande rw'ikawa, mu kiyaga cya kivu, mu kirwa cya nkombo.

Indobo ebyiri za palasitike zirimo otameroni ,indobo imwe ipfundikishije umupfundikizo wayo, indi ntobo irarangaye otameroni irimo ,irimo iragaragara bigaragara ko itigeze ipfundikirwa, Indi indobo ya gatatu ntago irimo iragaragara ikintu kirimo.

Umurima munini cyane uhinzemo ibijumba bya kimeza, uzitije ibibingo bitukura ibindi bibingo birumutse cyane ku buryo utamenya ko byatutiwe n'undi muntu uwo ari we wese.

Imifuka myinshi cyane isa iri mu bara ry'imitaka, ifite ibigori ndetse n'ibishyimbo. Iri ahantu izuba ririmo rirava ry'igikatu kugira ngo bibashe kuma nta buhehere burimo.

Umugabo uvuye gusarura ibishyimbo bye abihetse ku gare, ibishyimbo bimwe biri mu gihimba cy'igare ibindi bishyimbo biri inyuma y'igare, umufuka we utwikiriye ibishyimbo kugira ngo bitaza kwicwa n'izuba.

Indosho nziza enye zitondetse ku meza, indosho ya mbere iriho ibigori, indosho ya kabiri iriho amashaza, iya gatatu iriho ibigori bya castende, iya kane icuramye iriho ibigori byo guteka.

Icyatsi kinini cyane cya cactasi gifite umutwe usa n'umukara, ubusage busa n'umuhondo, cyahungutse kigwa hasi kivuye hejuru, majyaruguru y'igihugu cy'u rwanda ako kanya.

Isambu nini cyane ihinzeho ibireti bisa n'umuhondo, ndetse n'igitaka bimwe biratwikiriye ibindi ntago bitwikiriye, izuba ririmo rirabivamo ari ryinshi ibindi byatangiye kwisatura.

Ubutaka bufite ibishyimbo by'umumero, igishimbo kitaramera ikindi cyarameze, ikindi gishimbo gifite ibara ry'umutuku cyatangiye gutobora ubutaka, ikindi gishimbo cyarakuze ku buryo gishobora gushingirirwa n'umuntu ubizi neza.

Ibigori byiza cyane cumi na birindwi byatonowe sibyakurwaho ubusabyi, bifite amabara yose atandukanye, ibishishwa bikomeye cyane byakomejwe n'izuba, ndetse n'ubusagi busa n'umuhondo.

Inzu y'amakaro y'umweru iteretseho ibishyimbo biri mu moko n'amatsinda, aho itsinda rya mbere rifite ibishyimbo by'ikigina, itsinda rya kabiri rikaba rifite ibishyimbo bisa n'umuhondo, itsinda gatatu rikaba rifite ibisimbo bisa ni'icyatsi.

Umurima muremure ufite ibishimbo byinshi bigufi. Ufite ibishingirizo bisobekeranye, ndetse n'amakoro abirinda nk'uruzitiro, mu biti birebire by'umugezi wa kivu.

Ibiganza bibiri by'inzobe byahuje bifite ibihyimbo byiza by'imibiri yombi. Harimo igishyimbo cy'umukara, icy'ubururu, icy'icyatsi, icy'ubururu, n'icy'umuhondo. Ibiganza bidakarabye habe na busa.

Intoki nziza zirimo ziraterera inzuzi mu butaka bufite igishimbo cyiza gitotse, gifite ibara ry'umuhondo n'icyatsi mu butaka busa n'igitaka cyane, bigaragara ko ibi bitaka byahinzwe kuva kanama kugeza nzeri.

Igikosi cya kera cyitwa muhinzi cyakerebeye kiri mu isiniya, aho icyo gikosi kirimo ibishyimbo by'urunyumba bitandukanye ku mabara, gusa ibyo bishyimbo ntabwo byari byatekwa ni bibisi.

Igishanga kinini cy'ingano ndetse n'umucyeri kirimo kiravamo izuba ryinshi ry'igikatu, aho umuceri watangiye gusatagurika ndetse n'ibyatsi byabaga bisa icyatsi, byatangiye gusa n'igitaka.

imifuka myinshi cyane ifite ibishyimbo bisa, iteretse mu nzu ya karokaro ifite amabati y'umutuku, ndetse n'ibidomora cumi na bibiri, iruhande rw'igisabo cy'amata muri salo.

Ibishyimbo byiza cyane, bitonoye, by'igihembe, biteretse ku isahani, aharasa izuba rirerire ry'igikatu, impande y'ibishyimbo bidatonoye, ku mufuka w'umweru.

Umugore arimo aragosora ibishyimbo akoresheje intara aseka cyane, ufite n'ibibero bisa n'umukara witeze neza n'igitambaro, arimo arerekana uko bashobora kugosora bakoresheje umuyaga.

Isaka rirerire risa n'umutuku, rifite amababi maremare ameze nk'ay'ibisheke iruhande rw'inzu. Ndetse n'igiti cy'ipera kirimo kiragaragara, iruhande rw'amapera maremare ku saka risa n'icyatsi.

Abagore barimo barabiba bakoresheje inkoko n'ingemeri, harimo umugore umwe w'inzobe urimo arareba imbuto zigiye guhingwa uko zimeze, mu gishanga kirekire gifite ibishyimbo byashingiriwe n'ibishyimbo bigufi.

Igishanga kirekire kiri ahantu hashashe kigizwe n'ibireti gusa, amashyamba ya Cyohoha ndetse n'aya kimeza, ikiyaga kirekire ndetse n'ibirunga iruhande rwayo bigaragarira ijisho ryiza nk'abanyarwanda.

Inzu ifite ameza ateretseho umuceri uri mu gacupa gasa n'igitaka. Umuceri mwiza cyane usa n'umweruru, uryoheye amaso kuwureba ndetse n'agacupa kayo kateretsemo amavuta iruhande rw'inzu.

Inzu ifite ikiraro kirimo ikusanyirizo ry'ibigori; ibigori mirongo ine na bibiri, imbariro cumi n'eshanu, amakaro ane n'umuntu ushinzwe kubyinjiza mu nzu.

Isoko rinini cyane ririmo ibiribwa, rifite imitaka yanditseho eyaterimane, hari umugore urimo ararenga ibishyimbo aha umukiriya ufite utubere twiza cyane tubereye amaso kuburyo uwo ari we wese yamugirira irari.

Umuzungu wambaye umupira w'umukara wa lacosite afite intoki z'umutuku zifashe ku rurabo rwitwa kakitasi rufite amabendera asa n'ubururu ndetse ni'icyatsi.

Ibigori byinshi cyane bifite amasaro atandukanye, umutuku ndetse n'ubururu bifite aho kumanikira harehare cyane, ku buryo uwo ariwe wese ashobora kuhagera, ndetse n'ibigori bya kimeza.

Imifuka minini cyane itoboye irimo ibimera by'icyatsi ndetse n'umutuku iruhande rwayo hariho umufuka urimo ibiheri by'inkoko, urundi ruhande hariho umufuka ufite ibyatsi byinshi.

Umufuka ushaje usa n'igitaka uteretse mu nzu aho urimo ingano zihagije nk'ibiro cumi na bibiri, izindi zenda kumeneka, hari n'izamenetse hasi ku mufuka uri impande y'ihema.

Umuveterineri w'umugore arimo arareba mu mabere y'ihene, ko nta kintu gishobora kuba cyayangirije, yambaye agapfukamunwa, ndetse yasutamye cyane, arega umutwe we ureshya n'uburebure bw'ihene kugira ngo abashe kuyirebera.

Abaganga bane, abirabura babiri ndetse n'abazungu babiri bambaye ingofero, ubupfukamunwa na apuroni, bari mo barita ku murwayi umerewe nabi cyane bamubaga.

Abaganga bita ku matungo bari mu rugo rw'umuntu bateruye ingurube ebyiri aho umuganga wa mbere arimo aritegereza amatwi y'ingurube, umuganga wa kabiri arimo arapima umuriro mu kabuno k'ingurube, undi muganga wa gatatu aracecetse arimo arareba ibyo abandi bakora.

Inka nziza z'inyambo, zirimo zirarisha ubwatsi bwumye cyane, burimo umunyu w'urugera n'amazi akonje, kugira ngo zibashe kubona umusaruro, umukamo ndetse n'amabati yo kuba zabamo.

Ibagiro rirerire ribaga inyama, rifite ibiti bitandukanye. Igiti kimwe kiriho inyama cumi n'irindwi, ikindi giti kiriho inyama cumi n'umunani, ikindi kiriho inyama zirimo zirava amaraso.

Abagabo cumi na babiri bafite amatereyi y'amagi, aho umwe afite itereyi yambaye n'agapfukamunwa, undi afite amatereyi arindwi yambaye umwenda usa n'icyatsi, baherekejwe n'umugabo n'umugore iruhande rwabo.

Umuveterineri arimo aravura inka y'inyambo, iri mu kiraro yifashishije icupa ndetse ukuboko kumwe, ku mu veterineri gukoze mu nda y'amaganga kandi ukundi gukoze impande y'umukondo w'inka.

Ifamu nini cyane y'inka zagwingiye, ziraritse amagufwa, ziri mu kibaya aho zirimo zirarya ibishogoshogo byavuye ku bishyimbo byamaze kuma, ziri kunwesha n'amazi.

Amagi menshi cyane ari mu byiciro bibiri amwe ari kumatereyi asa n'ubururu andi ari ku matereyi asa n'umutuku. Amagi amwe ni amaremare andi magi ni magufi bigaragare ko yaturutse ku nkoko z'inyarwanda izindi ku nzungu.

Umwana ari mu nama aho bamuhaye itereyi y'amagi isa n'umweru, arimo arakuramo amagi ashoboye, ababyeyi be barimo baraseka hejuru bareba ukuntu bamwakiranye urugwiro, n'umugabo wambaye agapfukamunwa gasa n'umweru.

Ifamu y'ingurube eshatu zagwingiye, zirimo zirarisha ubwatsi bukeya cyane. Mu kiraro cy'imbaho cumi n'enye n'imbabari makumyabiri nirindwi, iruhande rw'inka y'imfizi irimo irabangurirwa n'imfizi.

Ifamu iri ku buso buto, ifite buri kimwe cyose amafamu agomba kuba afite. Amazu ateye irangi ry'umukara, ikigega kivamo amazi yo kunywa, ndetse n'abashumba bashinzwe kuragira inka.

Ikiraro cy'ingurube nyinshi zirimo zirarya ibiryo , eshanu zaragwingiye izindi zirimo zirareba urimo arazikamera mu kiraro cy'imbabari nini cyane za metero ebyiri kugera kuri eshatu.

Imbwa nyinshi zane zisiritse mu majosi, zimeze nkaho bagiye kuzigurisha aho zirimo ziramoka cyane ndetse n'abahigi bazo bambaye imipira y'umutuku n'abagabo bagera kuri batanu bashaka kuzigura.

Ibisimba byinshi bitandukanye by'amoko yose, bimwe bisa n'umukara, ibindi bisa n'umutuku, ndetse na kimwe gisa n'umweru. Biri ahantu hashashe hameze nka tabule iruhande rw'ibisahani.

Amatereyi abiri meza cyane ari mu ibara ry'igitaka n'icyatsi, afite amagi atondetse ku mu rongo, aho itereyi ya mbere ifite amagi cumi n'abiri, indi tereyi ikurikiyeho ikaba ifite amagi makumyabiri n'atanu.

igikeri gifite amabara atandukanye, gihagaze ku koma risa n'umukara impande y'umusarani. Icyo gikeri gifite amabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi, iminwa miremire, amaso abyibushye cyane.

Inyoni y'ubwoko bumeze nk'igitera, iryamye mu busagi. Ifite amaso manini, umunwa ukomeye nk'giti, uri mu gitebo ndetse uyirebeye kure wagira ngo, ni uruvu rurimo ruragenda.

Ingurube y'ishyamba irimo iranywa amazi iruhande rw'inkengero. Ifite umunwa muremure ushobora gufata ifi byoroshye, amaso magufi ndetse n'ugutwi guhenengeye, butabasha kumva ikiyituruka inyuma.

Imbwa nini iri mu butayu burimo ubwatsi bwinshi n'zuba ry'igikato, aho imbwa ifite amaso yumukara n'umurizo umurizo w'ubururu ndetse n'amatwi maremare.

Inyoni y'igishwi ifite umusatsi w'umweru, umunwa ukomeye nk'icyuma, amaso y'umweru, ubwoya bwiza cyane bw'amabara atandukanye, umurizo muremure ihagaze ku giti cy'umushubi.

Igihunyira gihagaze, gifite amaso yumuhondo n'umukara amatwi magufi, ibara ry'umukara, umweru ndetse ngitaka, umunwa usongoye cyane umeze nk'icyuma.

Igisimba gisa n'umweru kiri mu mabara y'igitaka ndetse n'umuhondo， gifite umunwa mutoya cyane ndetse n'amaso yatukuye kirimo kirareba umuntu urimo aragifotora， ndetse gifite amatwi yahenengeye cyane.

Urukwavu rusa n'igitaka rwatorotse ruhagaze mu ngano, rufite amatwi maremare, amaso, ingohe z'umukara, amazuru, ubwoya, ruri mo ruritegereza umuntu uri mo ararufotora.

Inyoni nini cyane ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara y'igishwi，irimo ihagaze ku ibuye riri mu mazi y'inyanja， iyitegereza amazi kugirango ibashe kureba aho ishobora gukurafi ndetse n'ibitunga by'umunsi ako kanya

Inyamaswa z'ishyamba nyinshi ziri ahantu mu mubande, urimo amashaza yumye, harimo imparage ndetse na zebura ifite amahembe manini, impande y'umusozi ufite ishyamba rirerire cyane.

Inyoni ebyiri zisa ziri mu bwoko bumwe zitandukaniye ku bara, zihagaze ku giti gisa n'umukara aho inyoni imwe isa n'igitaka, indi nyoni ikaba isa n'umutuku zose zifite iminwa ikomeye.

Icyiyoni gifite umunwa muremure umeze nk'icyuma, amaso matoya, ubwoya bw'umukara, ubwoya bw'umweru, igiti kirekire cyicayeho icyiyoni mu majyepfo y'igihugu cya Sudani.

Inyoni ndende yisande. Ifite umurizo muremure w'ubururu, n'amabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku. Ihagaze mu giti cy'umukindo gifite amashami menshi. Bisa naho inyoni ishaka kuguruka.

Agasimba kagufi, gafite ubwoya bw'igitaka, kari mu shyamba, ku giti gikomeye cyane. Agasimba gafite umunwa umeze nk'uw'inyahuku, n'amabere asa n'umweru.